Ni abantu batandukanye bicaye ahantu hamwe mu nama, ubona ko inyuma yaho hari amashusho agaragaza ibyo barimo. Ni abantu bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse bambaye udupfukamunwa bicaye ku ntebe.

Ahantu ku mugezi hari umukozi ushinzwe kuvomera abaturage baje gushaka amazi, bitwaje ibyo bayatwaramo bigiye bitandukanye, hari hirya ibiti bigiye biteye aho hantu ndetse n'ubundi busitani buteye aho hantu.

Abantu benshi bateraniye hamwe ubona ko bamwe bapfukamye ndetse bamwe muri bo bambaye imyenda ngiye isa n'ubwo hasi itagiye isa bari ahantu mu busitani busa nabwo igitaka.

Umumama uri kugenda mu nzira irimo ibyatsi ndetse n'ibiti, ntabwo hari umuhanda ukoze neza, uwo mu mama yikoreye indobo hari ibyo atwayemo zigiye zitandukanye ku mabara, ndetse ari kugenda yegera urugo ruri aho hafi.

Ni ku iriba hari abantu bagiye gushaka amazi, bitwaje icyo bayavomamo, inyuma yabo hari ubusitani buhateye ndetse n'ibindi biti bibari inyuma.

Umujyanama wita ku buzima w'umugore wambaye agapfukamunwa n'ikaramu ari kwandika mu gitabo, hari undi mugabo umwicaye iruhande rwe wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ipantaro ijya gusa umweru, inyuma ye hari amashusho agaragaza ko bamenyesha ko sida igihari.

Ni ahantu hari imbuga ngari irimo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye ndetse n'ubusitani muri ibyo bikorwa remezo, hari ibyuma bihari biri hejuru y'ibyo bikorwa remezo ndetse n'inzu nini harimo ibyumba bigiye bitandukanye.

Abantu bita ku buzima hari n'abashinzwe umutekano bahari, bari kwita ku bana babambitse imyenda igiye isa ndetse babicaje ahantu hasi hari ibyo bari kubaha banywa.

Ni abantu benshi bahagararanye hanze y'inyubako bagizwe n'abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko ari abakozi bita ku buzima bose bari kumwe, bambaye imyenda igiye isa bamwe muri bo ndetse bari impande y'ubusitani.

Kwa muganga ubona ko hari abaganga bari kuvura nk'umurwayi w'umwana. umwana uri kumwe n'umubyeyi we wamuherekeje, bose bicaye ku gitanda ndetse hari n'imiti iri aho hantu kuri icyo gitanda.

Abana benshi bari hamwe. Umwe ari gukaraba intoki ari gufungura indobo agakaraba intoki ndetse ayo mazi akaba ari aho ayategera kugira ngo ajye. Ari munsi y'igiti ndetse hari n'abandi bana bahari.

Ni abantu benshi bahagararanye bakora kwa muganga, bambaye imyenda imwe n'imwe igiye isa ndetse n'abandi bambaye imyenda y'abaganga, aho hantu bari baratwikiriye ndetse hari n'andi mazu abari inyuma.

Ni abantu batandukanye, bagizwe n'abagabo n'abagore, bambaye imyenda y'umweru hose hejuru, bari ahantu mu nzu, nyuma yabo no ku mpande zabo hari imiryango.

Ni abantu bane bicaranye ndetse n'abandi bantu babari iruhande, umwe muri bo afite umwana w'uruhinja mu ntoki. Ndetse n'abandi bafite ibitabo bari kwandikamo hari n'ibikarito biri hasi yabo bitwaje.

Ni umumama ukuze, wambaye imyenda ndetse wakenyeye n'igitenge, yaje ku mugezi gushaka amazi yo kwifashisha ndetse yitwaje n'icyo ayatwaramo, yafunguye ayo mazi arimo arashyira mu ijerekani yiwe.

Abantu batatu bagizwe n'abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe ubarimo. Bicaye ku ntebe y'imbaho ndetse umwe muri aba bagore hari amashusho ari kwerekana asobanurira abo bantu bicaye imbere y'inzu.

Ni umugore uri kumwe n'umuganga, yazanye umwana mu kumukingiza no kumuvura, umwana ubona ko yagize ikibazo ku mutwe ndetse umuganga yambaye ibikoresho by'isuku bimufasha kwirinda ndetse bicaye ku buriri.

Ni abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bagizwe n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye. Bose barahagaze bari ahantu mu nzu ishushanyijeho mu mabara agiye atandukanye ndetse n'abana bari kuri icyo gikuta. Abo bantu bari iruhande rw'imeza iri muri iyo nzu.

Ni umwana wambaye imyenda y'ibitenge by'umutuku, afunguye amazi arimo arakarabira mu ibase isa umukara, hirya yaho hari igikuta gihari.

Umwana mutonya waje ku mugezi, hari amazi arimo aragenda yisuka hasi, umwana yateze amaboko ari kunywesha amazi, inyuma ye abandi bantu bari ku murongo bamurindiriye kugira ngo aveho ndetse hari n'intebe iri aho hantu mu mbuga.

Ni abantu bateraniye ahantu hamwe bambaye imyenda igiye itandukanye ariko bamwe muri bo bahuje imyenda isa, igiye isa umweru, inyuma yabo hari inzu nini cyane isize amabara y'ubururu.

Ni abantu benshi batandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore b'Abanyamahanga n'Abanyafurika. Bicaye ku ntebe abandi barahagaze, bari ahantu aho amatara arimo arabamurikira muri iyo nyubako. Inyuma yabo hari amashusho agaragaza ibintu runaka

Ni abantu batandatu bahagararanye bagizwe n'abagabo n'abagore. Bambaye imyenda bose isa n'icyatsi ndetse n'ingofero. Inyuma yaho hari amashusho agaragaza ibyo bari kumanikira amaboko.

Abantu benshi bahagararanye bamwe bicaye, abandi bambaye imyenda igiye isa bagizwe n'abagabo, n'abagore bambaye amakarita mu ijosi bagaragaza icyo bakora. Imbere yabo hari ubusitani n' inyuma yabo hari amashusho agaragaza icyo bari gukora.

Ni ahantu hahuriye abantu batandukanye, ubona ko umwe muri bo yambaye imyenda y'umukozi ndetse akaba arimo arabafungurira amazi aho hantu kugira ngo abantu bavome.

Ni ahantu hari abana benshi, bambaye imyenda igiye isa y'ubururu ndetse n'umuhondo, hari ndetse n'abandi bantu bakuru, bari kumwe n'abo bana, bose bicaye hasi.

Ni ukuboko gufashe igikombe kinini gisa ibara ry'icyatsi. Iki gikombe kirimo amazi, ari gusukira umwana wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara. Umwana afite isabune mu ntoki, arimo arakaraba.

Nahantu abantu benshi bateraniye bagizwe n'abagabo, n'abagore ndetse bafite ibintu bari kugaragaza mu maboko yabo byanditseho amagambo atandukanye, inyuma yabo barahantu hari imbuga nini cyane ndetse hari n'inzu iri muri iyo mbuga.

Ni ahantu ku mugezi aho abantu baza gushaka amazi, baje ari benshi, hari abana bahari bitwaje amajerekani yo gutwaramo ayo mazi, ndetse hari n'undi mumama ubari hejuru uri kubavomera kugirango ngo babone amazi.

Ni ahantu abantu bajya gushaka amazi bahahuriye ari benshi bitwaje icyo kuyatwaramo, bigiye bitandukanye mu ngano no mu bunini ndetse hari n'undi uri kubavomera kugira ngo abantu bose babone amazi bakwiriye.

Ni abantu bita ku buzima, barimo gupima abantu bagenda mu muhanda bagiye batandukanye, ndetse muri abo bapima ubuzima harimo umumama wambaye agapfukamunwa, afite n'agakoresho gapima umuriro, ari kugenda apima abantu.

Ni ku mugezi utemba aho uri kunyura ahantu hari ibyatsi ndetse hari n'indi tiyo izana amazi, aho hantu hari umuntu uhahagaze uri gukaraba intoki kugira ngo ase neza.

Ni abana bari ahantu hari robine aho bari kunywa amazi bayanywesheje intoki, barishimye hirya yaho hari ibiti bihari ndetse hari n'imiyoboro y'amazi itwara ayo mazi yamenetse hasi.

Ni abana bari ahantu ku mugezi bitwaje ibyo batwaramo amazi bigaragara ko baje gushaka amazi ni abana batatu bahagararanye bari ahantu bose.

Ni inshinge ziri ahantu mu gasorori, izo nshinge zirapfunyitse neza, ndetse hari n'undi muti uriho icyapa kigaragaza icyo ukora, nawo uteretse aho hantu muri ako gasorori.

Ibikoresho byo mu rugo bigiye bitandukanye, bigizwe n'amasahani, n'ibikombe, biri ahantu ku tumeza tw'ibiti, ndetse irabicamo kugira ngo byumuke, inyuma yaho hari insina z'ibitoki zera ibitoki.

Ahantu hahuriye abantu benshi bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse bari ahantu ubona ko hari ibyapa bimanitse ku nzu, bigaragaza icyatumye bitabira aho hantu, hari n'abana bahetse baje aho hantu.

Ni umwanawana mutoya uri kumwe n'umubyeyi we. U,bona ko uwo umwana hari amaboko afite urushinge arimo aramukingira umuti. Umwana w'inzobe wambaye imyenda y'umweru ndetse hirya ye hari abandi bantu bamuriho.

Ku mugezi hari abantu benshi bagiye batandukanye, abana batoya, abandi bakuzemo, ndetse n'abamama n'ababyeyi b'abo bana bahari baje gushaka amazi bitwaje icyo bayatwaramo hari n'undi uri kubafungurira, hirya y'abo hari ibiti by'ibitoki bihateye.

N'abantu bateraniye ahantu hamwe bicaye bazengurutse bakoze ikiziga. Bicaye ku ntebe z'umukara bagizwe n'abagabo n'abagore. Bafite impapuro mu ntoki ndetse hari n'amashusho abari inyuma.

Ni ahantu abantu bateraniye. Bajya kuvoma. Ubona ko hari n'abana n'umugabo urimo urafungura amazi ajya mu byo bitwaje byo kuyatwaramo, abana bari gukina ndetse n'abandi barangariye Mu bindi bintu.

N'abantu batatu bagizwe n'abagore babiri n'umugabo umwe barimo baraterura ibintu babishyira hamwe babivana ahantu hirya ubona ko hari abandi bantu benshi cyane bahari

Ni umuntu wita ku buzima wambaye agapfukamunwa ndetse n'akarinda amaso ye, afite ibindi bikoresho mu ntoki ndetse n'udukoresho tw'isuku, ari kumwe n'umusaza wambaye imyenda ya made in Rwanda ndetse n'umwana umuri inyuma y'iwe.

Ku mugezi uriho abana bari gushaka amazi ndetse hari umubyeyi umumama mukuru bitwaje icyo batwaramo bashiramo amazi ndetse aho hantu hari inzu zigiye zi hegereye.

Ni ahantu ku mugezi aho abaturage baza gushakira amazi bitwaje icyo bayatwara, ni umugore waje gushaka ayo mazi ndetse hari n'abandi bantu bari inyuma bari kumufungurira kugira ngo ayo mazi ayabone.

Ku mugezi hari abana babiri baje gushaka amazi, bitwaje indabo zo gutwaramo ayo mazi, hirya yabo hari ubusitani buhateye ndetse hari n'imbuga ngari ibegereye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, ubona ko bari mu nama. Harimo ibyuma biri gufata amashusho y'ibikorwa bibera muri iyo nama ndetse n'amatara ari muri iyo nzu y'aho bateraniye. Hari intebe bicayeho, ni abagabo n'abagore.

Ni umwanawana wagiye ku iriba agiye kuvoma amazi mu gikombe cy'icyuma, umwana uri guseka wambaye n'umupira ujya gusa umutuku, akaba ari kuvomera amazi mu gikombe.

Ni abantu batatu bagizwe n'abagore, umwe muri bo ni umuganga undi ni umurwayi. Bambaye udupfukamunwa tubafasha kwirinda gukwirakwiza indwara, ndetse hari n'ibyo umuganga ari kuvura kuri uwo murwayi we.

N'abantu benshi bita ku buzima bambaye amakarita mu ijosi ryabo, bambaye indi myenda igiye isa ubururu bwerurutse bri ahantu hanze barishimye bari gukoma amashyi, ndetse n'undi mugabo wambaye imyenda yumukara ni shati y'umweru ubari imbere.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, ubona ko muri bo hari abana baje ku mugezi gushaka amazi bitwaje icyo bayatwaramo ndetse hari n'abandi babahagarariye bareba ko amazi bayatwara.

Hari umukozi wita ku buzima aho hari abantu bamusanze bagizwe n'abamama bicaye ku ntebe z'umweru ndetse uwo wita ku buzima afite impapuro mu ntoki ze haribyo ari kubasobanurira.

Ni abantu batatu bahagararanye bahagaze ku mugezi aho ubona baje gutwara ndetse bitwaje n'icyo bayatwaramo, inyuma yabo hari ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti bihinze muri ubwo butaka.

Ni munzu nini cyane ubona ko hari abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bari kwiga ku bintu byabahuje, bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse bafite n'amazi imbere yabo hari n'ibyuma biri gufata amashusho y'ibikorwa byose bibera muri iyo nama.

Ni abagore babiri bicaye mu ntebe, bambaye imyenda igiye itandukanye ndetse bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza, umwe yambaye impeta n'undi yambaye isaha ku kuboko, inyuma yabo hari idarapo.

Ni hantu hari ni abamama batatu bicaye ku ntebe ndetse babiri muri bo bafite abana, abana bambaye imyenda igiye itandukanye, bicaye ku ntebe z'urubaho ndetse inyuma yaho hari n'imiryango binjiriyemo.

Ni mu muhanda ku nzira nyabagendwa, ubona ko hari abantu benshi bagiye batandukanye, banyuranamo, bajya mu byerekezo bigiye bitandukanye. Hari umukecuru wicaye kuri iyo nzira nyabagendwa, afite amacupa ari hasi, ndetse n'ibindi byatsi mu ntoki ze.

Ni umugore witandiye ubona ko yicaranye n'abana babiri, umwe amufashe mu maboko, ndetse n'undi amwicaye iruhande rwe, hari n'ibyo ari kugosora, imbere ye n'agasorori k'umutuku karimo ibyo agosora

Ni abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, igizwe n'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe bafite amazi bateretse imbere yabo, ndetse n'amakarita abari mu ijosi bambaye bambaye udupfukamunwa bamwe muri bo ndetse bari kwigira ku bintu runaka.

Ni umwana wikoreye amaboko, ubona ko ari kurira, ndetse n'umugore afite ibiti, n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bari inyuma bicaye ahantu h'ubusitani bw'icyatsi, ndetse hari n'abana n'abagabo n'abagore.

Ni umuntu w'umugabo ubona ko afite ipine rye riri muri mu nda, akaboko kamwe kasohotse ndetse ibindi bice byose by'umubiri ikwiriye muri iryo penine. Hari abandi bantu bamuhagaze imbere y'aho hantu ndetse umugabo yicaye hasi.

Ni umugabo uri mu muyoboro w'amazi ahantu muri jaride, afite ibindi bintu mu ntoki ndetse n'ibindi bintu biri hasi muri uwo muyoboro w'amazi, aricaye arimo arabirebamo ndetse biragaragara ko asa nabi.

Umugabo n'umugore bicaranye, aho ubona ko umugore yambaye imyenda ya mede ini Rwanda ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki ze, ni umugore wisukishije, inyuma ye hari ibitambaro byanditseho kurwanya virusi itera SIDA, afite n'isakoshi imbere ye ku meza.

Ni abantu benshi bateraniye hamwe bakizwe n'abagabo n'abagore bahagaze. Bari ahantu mu nzu ubonana ko imbere yabo hari ameza ahateretse ariho n'ibitabo, n'impapuro. Inyuma yaho hari aho binjiriye.

Mu nyubako irimo abana benshi bagiye batandukanye bambaye imyenda itandukanye bose bari guseka barishimye n'abandi bari mu byabo, ndetse harimo n'abarangaye abo bana bagizwe n'abana b'abahungu n'abakobwa.

Ni mu nama yahuje abantu bagiye batandukanye. Harimo abagabo n'abagore ndetse n'abandi bantu baje bakurikiye ibivugirwa muri iyo nama. Iyo nama, inyuma yabo hari amashusho agaragaza icyabaye muri iyo nama.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse bambaye imyenda igiye itandukanye harimo n'igiye isa, ubona ko bambaye udupfukamunwa tubafasha kwirinda mu gukwirakwiza indwara, abandi bicaye ku ntebe baje kwaka ubufasha cyangwa n'ibindi bintu bifuza.

Ni umugabo usa nk'aho akuze afite umusatsi mwinshi ndetse n'ubwanwa bwinshi n'igikara, asa nk'aho akuze kandi bigaragara ko umusatsi we n'ubwo bwanwa bwe budasa neza ndetse n'umubiri we wese ari mu nzira, inyuma ye hari amazu ari aho hantu ndetse n'imitaka.

Mu nyubako yahuriyemo abantu benshi bagizwe n'abagabo n'abagore begeranye ndetse aho hantu hari amashusho abari inyuma yaho agaragaza ikintu cyabahuje n'impamvu bitabiriye Aho hantu.

Ni abantu bari ahantu hamwe bose bicaye ku ntebe, bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse umwe muri bo ari kubaza ikibazo, yambaye agapfukamunwa mu kuboko kwe kw'iburyo.

Ni abantu benshi bagaragara, umwe afashe umuntu ku rutugu, ubona ko uwo bateruye nta mbaraga afite cyangwa ashobora kuba yagize ikindi kibazo, hari n'umumama ufashe akandi kaboko k'uwo nguwo bateruye kugira ngo bamusindagize.

Umugabo uhagaze mu muhanda wisize amabara y'umukara mu maso, afite ibindi bintu mu ntoki n'ibindi atwaye ku rutugu rwe, inyuma ye hari imodoka nini cyane ikoreshwa mu by'ubwikorezi itwara ibicuruzwa ndetse ikaba irimo iragenda mu muhanda iyo modoka.

Umugabo ukuze wambaye imyenda yagiye icakagurika ndetse afite n'umusatsi wamukuriyeho n'ubwanwa bwamukurikiyeho, biragaragara ko asa nabi adasa neza arimo aragenda mu muhanda unyurwamo n'imodoka mu byerekezo bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti biteye ku uri uwo muhanda.

Ni umuntu wambaye imyenda y'umweru ubona ko akora mu bintu bijyanye n'ubuzima. Imbere ye hari amamashini ahari ari gusuzuma ndetse hari n'ibyo ari kwandika ku rupapuro rumuri imbere ye, hari n'udupfukamunwa ndetse n'amarinete yambaye mu maso yiwe.

Ni abakozi bo kwa muganga bambaye udupfukamunwa tubafasha mu kwirinda, bambaye udukoresho tw'isuku ndetse barimo baravura umwana wicaye mu ntebe wambaye na we agapfukamuwa k'umutuku ndetse bari kumureba ikibazo yaba afite mu kanwa kiwe.

Abaganga babiri barimo baravura umurwayi w'umugabo indwara zo mu kanwa zigiye zitandukanye ndetse amusuzuma n'ikibazo afite, aryamye ku gitanda areba hejuru ndetse hari n'inshinge bari kumutera mu kanwa ke.

Inzu ubona ko harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hasizwe amarange y'umweru, harimo amatara amurikira icyo cyumba ndetse n'ibindi bikoresho bifasha mu kuvura abarwayi.

Ni abana benshi cyane ubona ko abana badafite imisatsi ndetse bambaye imyenda igiye isa y'ubururu, bafite uburoso mu maboko yabo barimo bariborosa mu kanwa kugira ngo bakuremo imyanda ndetse n'ibindi bintu byabatera uburwayi biri bube biri mu kanwa.

Ni ahantu hamwe ubona ko hari abantu babiri, barimo barasuzuma baniga ku bijyanye n'amenyo yo mu kanwa, bafite ibikoresho mu ntoki zabo ndetse barimo barareba ibice bigiye bitandukanye byo mu kanwa.

Ni mu cyumba muganga avuriramo abarwayi be, ni umuganga wambaye agapfukamunwa kamufashe mu bwirinzi, afite ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura umurwayi we, umurwayi we yamuryamishije ahantu ku gitanda arimo aramusuzuma.

Ni umwana mutonya uryamye ahantu ku buriri, arasamye abona ko barimo baramuvura amenyo ye bareba ikibazo yaba afite mu kanwa, ni abaganga bambaye ga ndetse bafite n'ibindi byuma mu ntoki.

Ni umuganga uri kwita ku mwana, ari kumwitaho amuvura ndetse areba n'ikibazo umwana afite mu kanwa ke kijyanye n'amenyo, aho yamushize ibyuma mu kanwa k'umwana ari kumurebera ikibazo yaba afitemo.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, ubona ko bagizwe n'abagabo n'abagore, bari gutanga imfashanyo bayihereza abantu, bari no guhita bafata amashusho, ni ahantu mu nyubako irimo amatara ndetse n'amabara agiye atandukanye.

Ni umumama n'umugabo ubona kose bakuze, bafite ibyishimo ndetse bose bambaye imyenda yo kujyana muri siporo ndetse n'amasaha ku maboko yabo bombi, bari muri siporo bari kugenda bishimye baseka.

Umumama ukuze wambaye amarinete ndetse yanitandiye mu mutwe. Hari umwana w'umukobwa umuri hejuru, wambaye imyenda y'ubururu, ndetse yambaye ibikoresho bimufasha gusuzuma abarwayi be, bose bari kurebana bishimye bari guseka.

Ni abagabo babiri bambaye imyenda yo muri siporo isa ubururu n'umweru, bafite agacupa k'amazi mu ntoki ndetse hirya yabo hari ibiti bihateye n'ubusitani busa icyatsi buhateye.

Ni mu nzu aho umukecuru ari kumwe n'umukobwa. Umukobwa ari kumuha imiti. Umukecuru afite igikombe cy'amazi mu ntoki ndetse yateze ukuboko yakira imiti.

N'umugabo ukuze ubona ko ari muri siporo uri kugendera ku byuma abyifashishije ari kumwe n'undi mumama uri kumufasha kugendera kuri ibyo byuma amwitaho ku buzima bwe ukuntu bumeze.

Ni abamama bakuze bari mu murima w'icyayi, bagiye bambaye imyenda itandukanye ndetse bari gusarura icyo cyayi bagishyira mu bitebo, hirya yaho hari ibindi bihingwa bigiye bitandukanye atari muri uwo murimo w'icyayi.

Uyu ni umumama ukuze udafite umusatsi bigaragara ko yawukuyeho, hari n'undi mwana w'umukobwa bari kumwegaraga nk'aho akiri mutonya uri gufasha uwo mumama ukuze mu gukora siporo aho bari mu nyubako ifite amadirishya.

Aba ni abamama babiri bicanye ubona ko umwe ari kwita ku wundi amusuzuma, amwambika ikintu ku maboko areba uko amerewe, undi mumama yicaye ahantu mu kagare kamufasha mu kugenda, bari ahantu mu nyubako.

Ni umumama n'umugabo, ubonako basa nkaho bakuze, bafite ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye, ndetse umumama arimo aragaburira uwo mugabo kugirango agire ubuzima bwiza, aho ari kumugaburira imbuto zigiye zitandukanye.

Ni umugabo w'umusaza ndetse n'umugore wambaye imyenda y'umukara, ari gufasha umugabo kugenda, bari bafashe ibyuma ndetse hari n'ibyo umugore ari gusobanurira umugabo.

Umugabo n'umugore bahagararanye, aho umugore ari gufasha umugabo kugenda akoresheje ibyuma, bari ahantu hari amakararo ndetse n'imiryango yo kwinjiriramo igizwe n'amabara y'umukara, aho umugore yambaye imyenda y'umweru n'umukara.

Ni umugabo n'umugore. Umugore w'umuzungu ndetse n'umugabo w'umunyafurika, ubona ko umugabo bari kumufasha mu kuba yagenda afatiye ku cyuma. Iruhande rwe hari amadirishya ahari ndetse n'ibitanda bihari.

Ni ahantu hahuriye abantu benshi cyane, bagizwe abagabo n'abagore, bicaye munsi y'igiti bicaye ku ntebe z'umweru, abandi bicaye hasi begamye ku giti. Ni ahantu mu mbuga ngari ubona ko hari igicucucu, izuba ritari kubageraho.

Mu nyubako irimo umugabo kuze uri kumwe n'umwana ndetse bafite udukinisho mu maboko yabo, hari ibyo barimo barakina imbere yabo, bicaye ku buriri uwo mwana ndetse n'umugabo yicaye ku kagare k'abantu bafite ubumuga.

Ni umugabo n'umwana ubona ko bari gukina umupira w'amaboko bari ahantu mu kibuga ndetse naho gutsindira, hari imirongo ishushanyije muri icyo kibuga inyuma y'icyo kibuga hari ubusitani buhateye ndetse n'ibiti biteye muri ubwo busitani n'ibyuma bikikije kibuga.

Ni umumama ukuze ndetse n'undi mumama ukiri mutoya. Bari guseka ndetse bose bakoranyeho. umumama yicaye mu ntebe ndetse umwana amuri inyuma. Bambaye bose imyenda.

Ni mu nyubako bigaragara ko harimo umugabo usa nk'ukuze wambaye marineti uri kumwe n'umugore we arimo aramufasha mu kumwitaho, bicaye ku gitanda birasa nkaho ari kumufasha kumuhagurutsa.

Abantu batatu bari kumwe, barimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bari gufasha umwe, muri abo bagabo kugirango ahaguruke ku buriri, kugira ngo agende.

Abatari bake bari ahantu hamwe, ubona ko hari bicaye ku dutebe, ndetse n'undi uri kubitaho, hari ibyo bafite imbere yabo bari kurya, ndetse n'amazi bateretse imbere yabo ku meza, hari n'amadirishya ahari.

Ni ahantu abantu benshi bateraniye ubona ko ari abakecuru bakuze bambaye imyenda igiye itandukanye bicaye ku ntebe, inyuma yabo hari izindi ntebe ziticayeho abantu ndetse hirya yawo hari umurima w'ibitoki uhari.

Ni umumama n'umugabo, umumama wambaye imyenda y'umweru ndetse n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, umugore ari gufasha umugabo mu gukora siporo kugira ngo agorore umubiri.

Ni umusaza n'umukecuru bicaranye, bambaye bose imyenda, bafite igikombe cy'ikirahure kirimo amazi giteretse imbere ku meza ndetse umukecuru afite n'urupapuro mu ntoki ze.

Ni umugabo n'umugore bari gusangira, ubona ko bose bakuze, imbere yabo bafite amasahane ariho ibiryo bigiye bitandukanye ndetse n'ibirahure bari kunywesha, bakaba babiteretse ku meza.

Mu nyubako irimo abamama batatu bafite amakarita iruhande rwabo, barimo barayakina ndetse hari n'andi arambitse hasi ku meza, bari kugaragara nk'aho bishimye bose baseka.

Ni ahantu mu nzu irimo amabara agiye atandukanye agizwe n'umweru, hari umugabo ukuze uri mu ntebe ndetse hari n'undi mukobwa umuhagaze hejuru, afite ikarita ku mubiri we igaragaza icyo akora.

Ni umumama w'umwirabura. Afite amazi mu ntoki mu kirahure, ndetse afite n'ibinini mu ntoki akaba ari mu nzu aho inyuma ye hari amadirishya ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bateka.

Umugabo ukuze wambaye marinete afite igitabo mu ntoki, ari kumwe n'umwana w'umuhungu bigaragara ko nawe akiri muto cyane, bose biteretse igikombe cy'ikirahure imbere yabo ndetse bari mu nzu aho bari gusomera icyo gitabo cyabo.

Ni ahantu abantu benshi bateraniye bagizwe n'abagabo n'abagore ndetse n'abandi bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye, baje bari kwigira ku bintu runaka byateranyije muri iyo nama ndetse bari no gukoresha indangururamajwi muri iyo nama.

Ni mu nama yahuje ahantu runaka, aho bari kugaragaza ko bagomba kurwanya icyorezo cyateye, hari abicaye imbere muri iyo nama bayiyoboye, bari kuvugira ku ndangururamajwi ndetse n'abandi babakurikiye.

Ni abantu benshi cyane bagizwe n'abagabo n'abagore, bafite amashusho y'ibyapa mu ntoki z'abo, abo ni ab'imbere hari ibyo bari kugaragaza, ndetse bagizwe n'abagabo n'abagore, bambaye bose imipira y'umweru, ubona ko bose bafite morale.

Ni umugabo n'umugore bahagararanye, bafite amashusho mu ntoki agaragaza ibintu bitandukanye, inyuma y'abo bantu hari amadarapo agiye gutandukanye.

Ni ahantu hateraniye abantu mu nyubako bagizwe n'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imituku ndetse aho hantu hari amatara abamuriki kugira ngo babone ndetse n'ibikuta bisize amabara agiye atandukanye.

Mu nama yahuje abantu, abagabo n'abagore, baricaye ndetse hari undi uhagaze urimo urasobanurira ibintu byose bibera muri iyo nama, hari n'amashusho agaragaza ibyo basobanurirwa uko bihagaze ndetse hari n'ibyapa biri muri iyo nyubako.

Ni ahantu mu nyubako hari abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bagizwe n'abakobwa benshi bafite amashusho mu ntoki agaragaza ibintu runaka, bose bambaye imyenda isa hejuru hasi bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye.

Umubyeyi w'umumama, wambaye imyenda ndetse witandiye mu mutwe, ateruye umwana amufashe hari n'ibyo ari kumubwira, inyuma ye hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara.

Ni ahantu hari abantu bamwe begeranye bambaye imyenda igiye itandukanye bagizwe n'abagabo n'abagore aho hantu, ndetse hari amashusho aba ari iruhande rwabo agaragaza ibyo bitabiriye ibyo ari byo.

Ni icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi. Aho iyo winjiyemo usangamo amazu menshi yubatse aho hantu, ndetse n'amatara amurikira icyo kigo. Hakaba hari ubusitani bugiye buteye muri iki kigo ndetse n'ibiti biteye muri icyo kigo.

Ni inyubako yo kwa muganga imurikiwe n'amatara agiye atandukanye menshi, ikaba irimo intebe na mudasobwa zihari n'ibindi bikoresho byita ku barwayi biri muri iyo nyubako.

Ni ahantu hamwe hari ubusitani ndetse n'amazu, hakaba hari n'inzira zinyura muri ubwo busitani, buhinzemo ibiti by'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye ndetse hakaba hari n'iminara itwara umuriro ndetse n'amatara amurikira aho hantu.

Ni aba mama batatu umwe muri bo ni umuganga ndetse ari kwita ku barwayi be aho arimo arabasuzuma, abo barwayi baryamye ku buriri ndetse bariyoroshe ubona ko bari ahantu mu cyumba kinini.

Ni abaganga ubabona bari gusuzuma umurwayi banamuvura. Hari imashini bari kwifashisha mu kuvura umurwayi. Abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'ibyo bitandiye mu mutwe, bafasha kugira ngo bavure umurwayi neza bitonze.

Ni aba mama batatu bahagararanye bose bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ibyo bitangiyeye mu mitwe yabo, bahagaze ahantu ku nzira ndetse aho ahantu hahagaze hari ibiti byinshi bihameze ndetse n'izindi ndabyo zihateye.

Ni inzu nini cyane ya mabara agiye atandukanye, ifite ibyumba byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'amadirishya ari muri ibyo byumba, hanze y'iyo nyubako hari ubusitani bunini bugiye butandukanye, burimo n'ibiti ndetse n'aho banyura.

Ni amazu manini menshi agiye atandukanye, asizwe amabara agiye atandukanye ndetse n'amadirishya ari kuri iyo nzu, hari abantu benshi barimo baragenda iruhande rw'izo nyubako bagenda bayitegereza ndetse n'imihanda yegereye izo nyubako.

N'hantu mu nzu harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ubona ko bifasha abantu gukora ibintu bashaka hari amagare ndetse n'aho abantu bicara hari amaba agiye atandukanye ndetse hari n'amatara amurikira ibyo byumba

Inzu nini igizwe n'amabara y'ubururu, ifite amabara yandi agiye atandukanye, ifite imiryango ibiri hari icyapa kimanitse kuri iyo miryango ndetse n'amagambo yanditse hejuru y'iyo nyubako, hakaba hari n'amadirishya manini cyane ku iyo nyubako, n'imbuga ngari y'iyo nyubako.

Ni inzu nini ifite imbuga ngari irimo indabyo zigiye zitandukanye, kuri iyo nzu igizwe n'amabara agiye atandukanye agizwe n'umweru, hakaba hari n'amagambo yanditse ku gikuta cy'iyo nzu, handitseho ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Inzu nini ifite amabara agiye atandukanye n'imiryango yo kwinjiraraho ndetse n'amadirishya, ifite n'ubusitani hanze n'ibiti biteyerimo ubusitani imbere y'iyo nzu hakaba hari amatafari ahari, inzuka ifite n'ibimenyetso by'inyuguti y'ubururu.

Ni mu nyubako yo kwa muganga, aho ubona ko mu cyumba hari ibitanda bitatu bigiye bikurikiranye, ndetse hari n'amashuka ari kuri ibyo bitanda, hari n'imashini zifashishwa mu kuvura abarwayi no kubasuzuma kugira ngo babakurikirane.

Ni nzu nini yo kwa muganga, aho hantu hari ibyumba bigiye bitandukanye bito bito, ndetse hari n'uburiri bwinshi cyane buri muri iyo nyubako, hari umuntu uri kwita kuri abo bantu baje kurwarira muri ibyo bitaro.

Iyo nyubako nini cyane iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ihuza abantu mu bikorwa bigiye bitandukanye, hari intebe zo kwicarwaho zisa umukara ndetse n'indangururamajwi ziri aho hantu, hari n'imiryango n'amadirishya ndetse n'amatara amurikira muri iyo nyubako.

Ni ahantu hanini cyane hari inyubako zigiye zitandukanye ndetse hari n'amatara amurikiye muri izo nyubako, ndetse n'imbuga ngari irimo ubusitani bugiye butandukanye ndetse n'ibiti biteye muri ubwo busitani, hari abantu barimo baragenda aho hantu.

Kwa muganga hari aho abarwayi basuzumirwa n'ibikoresho bisuzuma abarwayi, hari amashusho ari kugikuta, ndetse n'andi mabara agiye atandukanye, ari ku gikuta hari amatara menshi ahari muri icyo cyumba.

Ni ahantutu hari amazu yagiye atandukanye akorerwamo ibikorwa byo kuvura abarwayi, hari ibyapa biri aho hanze bihagaragaza ibyo bakora ndetse n'ibyo bashobora gufashamo abarwayi. Hari n'aho abantu bashyira amamodoka yabo akoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu.

Amaraso y'ubwoko bugiye butandukanye, ubona ko ari ahantu runaka hafunze neza cyane, amaraso hari abantu barimo barayatanga aho baryamye ku bitanda ndetse n'abandi barimo barabitaho bareba niba batanga amaraso neza.

Ni inyubako nini cyane, igizwe n'ibyumba bigiye bitandukanye n'amadirishya ari kuri iyo nyubako n'imiryango yinjirwamo muri iyo nyubako itandukanye, hanze y'iyo nyubako hari ibiti byiza bihateye, ndetse n'ubundi busitani bugiye butandukanye buteye hanze y'iyo nyubako.

NI icyapa cyegereye igipangu giteye ahantu ku muhanda unyurwa mumodoka uwo muhanda urimo mabaragi atandukanye afasha mu kuyobora imodoka hirya y'umuhanda naho hari ubusitani wateye icyo cyapa cyanditseho amagambo amenyesha ibintu runaka ababwira ko aho hantu basuzuma.

Kwa muganga ubona ko hari ibitaro by'abarwayi n'imashini zifasha mu kuvura abarwayi no kubasuzuma, hari n'imiti iteretse kuri ubwo buriri bw'abarwayi. Hari amadirishya yinjiza umwuka muri ibyo bitaro ndetse n'amatara amurika kugira ngo haboneke urumuri.

Ni inzu z'izo marange y'umweru ifite amadirishya ndetse harimo n'amatara harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'intebe zo kwicarwamo.

Ni inzu nini igizwe n'ibyumba bigiye bitandukanye ndetse n'amadirishya. Ikaba isizwe amabara agiye atandukanye hanze y'iyo nzu ku gikuta ndetse n'ibyuma bifasha kwinjiza umwuka muri iyo nyubako. Hari abantu bari hanze y'iyo nyubako ndetse n'aho imodoka iri.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga, hari umurwayi uryamye ku gitanda ariyoroshe, ndetse hari n'ibindi byuma bimuriho biri kumurebera ubuzima bwe uko buhagaze, ni ahantu mu nzu ubona ko hari n'ibindi bitanda byari bitandukanye.

Ni inyubako iri ahantu hamwe, ifite igisenge kinini ndetse kuri iyo nyubako handitseho amagambo. Ifite ubusitani imbere yayo hanze, buteyemo indabyo zigiye zitandukanye.

N'abantu bane bari kumwe bagizwe n'abagabo n'abagore, umwe muri abo bantu mu kuganira n'umwana amwereka uburyo woza amenyo ye akoresheje uburoso. Ari kumusobanura amufashe ku rutugu.

Ni abantu bagizwe n'abagabo n'abagore bafite ibintu mu ntoki zabo bitwaje, bari kwinjira ahantu mu nyubako handitseho amagambo runaka amenyesha icyo aho hantu bakora, barimo baragenda ahantu mu muhanda begera mu muryango binjiriramo.

Ni inzu y'imiti, aho iyo nzu irimo imiti myinshi igiye itandukanye ipanze ku tubati, iyo miti ifite amabara agiye atandukanye hari n'amatara amurikira iyo miti ndetse n'ibipapuro biranga iyo miti.

Inzu nyubako nini cyane igizwe n'amabara agiye atandukanye, hari aho binjirira ndetse n'ibyuma biri kuri iyo nyubako ndetse n'ibindi basakaje kugira ngo birinde ihindagurika ry'ikirere, hari n'ibyapa bigaragaza aho hantu ibyo bakora.

Ni inyubako yo kwa muganga aho bagaragaza ko mu cyumba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo uburiri bwo kuryamishaho abarwayi ndetse n'ibindi byuma byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ni inzu nini dufite ibirahure ndetse n'imiryango ubona ko hari aho binjira hahari yubakishijwe amatafari ahiye, iyo nzu ikaba yanditseho amagambo igaragaza ko aho ngaho bakira abakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakabafasha.

Akaba ahagararanye umwe n'umuganga w'umuzungu n'undi muganga w'umwirabura, bafite ibikoresho bifashishije mu gupima abarwayi ndetse bari no kwandika amakuru yerekeranye n'umurwayi ndetse na mudasobwa imbere yaho.

Abantu benshi bari kugenda mu byerekezo bigiye bitandukanye ahantu mu muhanda, aho bavuye muri serivisi zigiye zitandukanye, ndetse n'undi umwe ushinzwe umutekano, ubona ko hari n' ibyuma biri ahantu imbereye.

Inzu nini cyane igizwe n'ibyumba bigiye bitandukanye ndetse n'amadirishya ari kuri iyo nyubako, biragaragara ko ari ibitaro bya Shyira, hanze y'iyo nyubako hari amadarapo atandukanye y'umweru.

Ibitaro bya Rwamagana. Ni inzu nini cyane ifite amadirishya ndetse n'imiryango abantu binjiriramo. Hari abantu benshi bahagaze hanze bagizwe n'abanyamahanga, bose bambaye amakarita mu ijosi ryabo bagaragaza icyo bakora.

Ni imbuga nini cyane irimo abantu, ndetse harimo n'abakecuru n'abasaza ubona ko bakuze, hirya yabo hari amazu manini cyane agizwe n'imiryango igiye itandukanye ndetse n'amabara agiye atandukanye, ari kuri izo nyubako.

ni inzu ikorwa mu bikorwa byo kuvura abarwayi hari umuganga w'umukobwa wambaye agapfukamunwa na marinete ubona ko ari imbere ya mudasobwa arimo arayikoresha areba ibintu runaka ndetse iruhande rwe hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye

Ni ahantu hari inzu nini ndetse n'amarangi agiye asize izo nzu n'amatara amurikira izo nzu, hari imbuga ngari irimo ubusitani bugiye butandukanye.

Ni hantu kwa muganga, ubona ko hari ibitambaro bihari ndetse muri icyo cyumba hari ibitanda bihari by'mweru, hari n'umugore urimo uragenda aho hantu, hari ndetse n'amadirishya ahari n'amatara muri icyo cyomba.

Ni kwa muganga, aho ubona ko mu cyumba hari ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitanda, amamashini afasha abantu kuvura abarwayi ndetse n'aho batereka ibintu by'abarwayi, hari amadirishya ari aho hantu muri icyo cyumba.

N'icyumba kinini cyane cy'imyitozo ngororamubiri, aho abantu bajya bagiye kwitoza kugira ngo bakorere umubiri wabo, ndetse harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha mu kwitoza, ndetse n'amatara amurikira icyo cyuma.

Ni icyumba cyo kwa muganga ubona ko harimo uburiri ndetse n'ibyuma byifashisha mu kuvura abarwayi hari n'amashusho agiye atandukanye amanitse ku gikuta ndetse n'uburiri n'amashuka y'umweru ndetse n'aho babika ibintu by'abarwayi.

Inzu nini cyane igiye ifite ibyumba bigiye bitandukanye, ndetse n'amadirishya ari aho hantu, hari iminara iteye hejuru y'iyo nyubako, ndetse hasi y'iyo nyubako hari aho abantu baparika amamodoka yabo, ndetse.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye n'amamashini agiye atandukanye, biri ahantu hirya hari isaha ihari, ndetse hamurikiwe n'amatara agiye atandukanye.

Ni inyubako yo kwa muganga, ndetse muri iyo nyubako harimo ibyumba bigiye bitandukanye, muri iki cyumba hari intebe, ndetse n'igitanda aho umurwayi asuzumirwa, n'aho avurirwa, hari n'amamashini agiye atandukanye, yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ni ahantu mu nzu hasize amabara y'umweru ndetse hari n'amatara amukira muri iyo nzu, hari intebe ubona ko zikoreshwa kwa muganga ndetse n'ibindi byuma bifashishwa mu kuvura abarwayi no kubasuzuma.

Inyubako irahanu iriho amabara agiye atandukanye, ndetse ifite n'ibirahure n'ahantu binjirira ,hari abantu bari hanze yiyo nyubako ndetse iruhande rwayo hari ubusitani bugiye butandukanye hari indabyo zihari.

Inyubako yo kwa muganga, ubona ko mu cyumba cy'iyo nyubako hasize amabara y'umweru ndetse n'ibindi bikoresho biri mu bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi no kubasuzuma. Hakabamo na mudasobwa yifashishwa mu gusuzuma abarwayi no kubika amakuru yabo.

N'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bagizwe abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'imyenda igiye itandukanye. Imbere yabo hari telefone zabo ziteretse imbere ndetse n'imeza.

Ibikapu by'amabara agiye atandukanye, arimo umutuku n'umukara ndetse n'imashini zifunga ibyo bikapu, muri ibyo bikapu mu imbere harimo imiti ikoreshwa mu kuvura ndetse harimo n'ibipfuko.

Ni umumama ukiri mutoya, ari muri siporo ahantu mu muhanda, yambaye inkweto z'umweru ndetse n' imyenda y'umukara, afite n'ibyo yambaye mu matwi bimufasha kumva indirimbo, ndetse afite n'agacupa k'amazi imbere ye.

Ni imipira igiye itandukanye, ifite amabara atandukanye ubona ko ikoreshwa mu mikino igiye itandukanye, ndetse n'utwuma dupima umutima uko utera, imipira irimo iy'amaguru, iy'amaboko ndetse n'iy'utudenesi.

Ni igikapu cy'amabara agiye atandukanye, mu imbere harimo imiti myinshi igiye itandukanye, ubona ko harimo ibikoresho bifasha gukata ibintu runaka, ibipfuko ndetse n'indi miti igiiye tandukanye, ubonako iri mu gikapu.

Imiti myinshi igiye itandukanye ikoreshwa mu kuvura abantu ndetse n'amavuta yo kwisiga, iyo miti ikaba igizwe n'ipfunyitse mu ducupa ndetse n'ipfunyitse mu bipapuro, ndetse n'ibipfuko bigiye bitandukanye.

Ni abantu babiri umugabo n'umugore bafite agacupa k'amazi mu ntoki bari muri siporo, bambaye imyenda yabugenewe bari kwirukanka, iruhande rwabo hari imisozi myinshi igiye ihari.

Ni imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye. Imwe ifunitse n'indi iri mu ducupa. Ubona ko iyo miti ikoreshwa muri siporo ndetse n'amabara agiye atandukanye aranga iyo miti. Ikaba iri ahantu hamwe.

Inzu irimo umumama ukiri mutoya uri gukora siporo ahantu imbere hari ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse na mudasobwa yo kumufasha kureberaho ibyo akora yambaye imyenda yabugenewe ari gukora siporo.

Ni umukino wahuje abantu ubona ko umwe muri abo bakinnyi aryamye hasi, hakaba ari n'abandi bantu babiri bari kuvura uwo mukinnyi, bari kumushiraho imiti, bambaye imyenda y'umutuku n'imipira y'umweru ndetse hasi bambaye imyenda igiye itandukanye.

Ni hantu abantu bari, hari umuntu wicaye ku gitanda ndetse yambaye imyenda ya siporo, ari gufashwa n'undi muntu umwitaho ubona ko ari kumushyiraho ibifuko aho yaba yagize ikibazo.

Umugabo wicaye ku ntebe yambaye imyenda, imbere ye hari mudasobwa arimo kureba amashusho, agiye atandukanye, ndetse hari n'ibindi byuma biri muri iyo nzu, bikoreshwa mu kuvura abarwayi, ari kureba ndetse anasuzuma ko ibintu bye bimeze.

Ni abagabo batatu bapfukamye hasi, ubona ko inyuma yabo hari n'abandi bantu bagiye batandukanye. Umwe muri abo bagabo batatu bapfukamye hasi yambaye icyuma mu mutwe kibafasha mu kwirinda kugira ngo adakomereka.

Ni umugabo bigaragara ko yari ari muri siporo ndetse hari n'abandi bantu bari kugenda mu muhanda bakora siporo. Umugabo wambaye agasengeri, afite agacupa k'amazi mu ntoki, yicaye ahantu arimo aritegereza ndetse anywa n'amazi.

N’umugore uri kwita ku mukinnyi hari bipfuko ari kumushyira ku kuboko ndetse yambaye n'udupfukamunwa ndetse n'indi myenda igiye itandukanye ndetse uwo mukinnyi ari kuvura yicaye ahantu yambaye imyenda y’umweru ndetse yipfutse no mu maso.

Ni abagabo babiri bari muri siporo, umwe arimo aratoza undi, bose bafite umupira mu ntoki ndetse inyuma yaho hari ibyuma bifasha abantu gukora siporo zigiye zitandukanye.

Ni abantu bita ku buzima bambaye imyenda y'umutuku n'umweru bafashe umugabo baranamuteruye bagiye kumwitaho, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bahari, bari munsi y'ibiti ni ahantu hari ubusitani.

Mu nyubako ifite ubwisanzure bunini, harimo ibikoresho bikoreshwa mu mikino ngororamubiri ndetse n'aho bicara, n'aho kubika ibintu byabo bitwaje.

Ni ahantu mu nyubako hari imiti myinshi igiye itandukanye, y'amabara agiye atandukanye ubona ko ipanze ahantu mu tubati. Ni imiti ipfunyitse mu dukarito ndetse n'indi ipfunyitse mu iparasitike.

Ni amashusho agaragaza abantu barimo barakirana, bambaye imyenda igiye itandukanye igizwe n'ubururu n'umweru n'umukara. Bari mu ishusho ry'uruziga ndetse hasi yabo bari kugaragaza amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Ni ahantu hasize amabara y'umweru ndetse n'amatara amurikira muri icyo cyumba. Hari umuntu uryamye ku gitanda bari kumwinjiza aho ajya kuvurirwa.

Ni ahantu mu nyubako hari ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye. Harimo ibyo baterura bifite ibiro byanditseho ndetse n'ibindi bitonya bigiye bitandukanye. Ni ahantu mu nzu harimo amakaro ndetse n'ibikuta bisize amabara agiye atandukanye.

Kwa muganga hari abaganga bita ku barwayi, hari n'andi mamashini ahari, ubona ko hari abarwayi inyuma yabo baryamye ku buriri bifubitse.

Ni umugabo uhagaze hagati y'ibiryo bigiye bitandukanye bigizwe n'amagi, karoti, amazi ndetse n'inanasi n'ibindi bihingwa bikomoka ku mboga bigiye bitandukanye, umugabo afite icyuma mu ntoki ze kimufasha gukora siporo mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umugabo wicaye mu cyumba k'imiti. Imiti imuteretse imbere ndetse hari n'indi afite mu ntoki, yicaye ku ntebe z'umukara inyuma ye hari utubati babikamo iyo miti ndetse n'aho yinjiriye n'ibirahuri biri kuri rwa urugi yinjiriyeho.

Ni ahantu mu isoko aho ubona bacuruza imiti gakondo igiye itandukanye, ni ahantu umucuruzi ajya kugurishiriza iyo miti ye ndetse n'abakiriya bakaza bamusanga baje kugura iyo miti ye, ni imiti igiye itandukanye iri mu ducupa tugiye dutandukanye.

Ni imiti gakondo igiye itandukanye iri mu ducupa aho ifite ibirangantego bigiye bitandukanye, ndetse yose iteretse mu tubati kugira ngo abaza kuyigura bayibone mu buryo buboroheye ndetse iyo miti ifunze neza.

Ni imiti gakondo, iyo miti yarumye, ni imiti ubona ko bashyize mu isekuru, barimo barayihonda kugira ngo igire umwimerere. Indi ishyizwe ahantu ku meza.

Ni imiti y'ibyatsi gakondo ni imiti imera mu butaka igiye isa bitandukanye kandi ikavura bitandukanye, iri ahantu hamwe mu busitani aho iri yakuriye.

Imiti gakondo igiye itandukanye iva mu bimera, iri ahantu hamwe ndetse hari n'aho bayihondera kugira ngo ihinduke ifu, mu buryo bwiza bwo kugira ngo umuntu ayinywe imugirire akamaro.

Imite gakondo ikorwa mu bimera mu byatsi ndetse n'ibindi bintu biye bitandukanye, biri ahantu hamwe barimo barayigaragaza, ubwoko bwayo ndetse n'amazina yayo, hari imeze nk'ibirayi nk'ibijumba ndetse imeze nk'imboga.

Ni imiti gakondo ikomoka ku bihingwa, iri ahantu aho iri mu mashusho agiye atandukanye. Iyo miti imwe ikaba imanitse ahantu n'indi iteretse ahantu hagiye hatandukanye ubona ko igiye itandukanye mu buryo ikoreshwa.